Umwana ateruwe n'umubyeyi we aracyari muto ari munsi y'imyaka itanu ni umukobwa ari guhabwa urukingo n'umuganga wabigenewe, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse no gukura neza atarwaragurika.

Umugezi rusange uriho abana benshi higanjemo abakobwa n'abasore, bari gutega amazi bakoresheje ibase ifite ibara ry'umutuku, abandi bakayategesha intoki zabo amenshi ari kumeneka hasi.

Umwana w'umuhungu muto, ufite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani, yambaye yunifomu, ari ku kigega cy'amazi gifite na robine, afite igikombe ari gufungura amazi ayashyira mu gikombe.

Umujyanama w'ubuzima ni umugabo yambaye bote zisa umweru, yicaye ku ntebe afite impapuro mu ntoki n'izindi zimuteretse iruhande, ari kumwe n'umugore ufite umwana, bari kuganira yamusuye.

Umugore w'umwirabura akenyeye igitenge, yambaye n'umupira, ateruye umwana arishimye, ari ku mugezi yagiye kuvoma amazi akoresheje indobo, inyuma ye hari inzu z'ibyatsi n'ibiti bitandukanye.

Abagore batatu b'abirabura, bambaye udupfukamunwa, bari ku ivomero rusange ryagenewe abaturage, iryo bavomaho amazi, bari gutega amazi mu ntoki, imbere yabo hari amajerekani abiri yo kuvomeramo.

Umugore w'umwirabura uherereye mu bice byo mu cyaro, yambaye agapfukamunwa ari kumwe n'umwana w'umuhungu wambaye imyenda y'ishuri, ari kumukarabya intoki akoresheje isabune n'amazi kugira ngo agire intoki zikeye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe muri sale higanjemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe nziza, imbere yabo hari ameza arambitseho amazi yo kunywa, adekoyeho n'ibitambaro byiza, imbere na none hahagaze umugore uri kubabwira bamuteze amatwi.

Abirabura bane n'abazungu babiri bicaye muri office buri wese yicaye ku ntebe ye. Imbere yabo hari ameza hari n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda rifite amabara ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Abana benshi bicaye ahantu hamwe baherereye mubi bice byo mucyaro. Imbere yabo hari umwana umwe uri kumwe n'undi mugabo, bari gusuhuzanya bakoresheje akaboko bari guseka bose bishimye cyane.

Umwana muto w'umwirabura wambaye ikabutura y'umutuku, ari ku mugezi kuri robine yateze amazi, ari kuyanywera ku ntoki afite n'indobo yaje kuvomeramo amazi, inyuma ye hari ibyatsi n'ibiti byinshi ndetse n'inzu.

Umukobwa w'umwirabura aricaye afite amabasa abiri ateretsemo ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, arikuvoma amazi ayashyira muri iyo jerekani. Inyuma ye hari imyenda myinshi yanitse yameshwe.

Umugabo w'umuzungu wambaye ikositime y'umukara, ishati y'umweru na karuvati irimo amabara, arikumwe n'abandi bantu benshi higanjemo abagore n'abagabo bambaye amataburiya na baji z'akazi, n'undi mugabo wambaye ishati na karuvate w'umwirabura.

Ivomero rusange ry'abaturage aho baza kuvoma amazi yo gukoresha mu bikorwa byabo bitandukanye harimo guteka, kumesa imyenda ndetse n'ibindi ririho abana n'umumama umwe baje kuvoma amazi.

Abana benshi bishimye bamanitse amaboko bari guseka, bambaye yumfomu, amashati y'umuhondo n'makabutura y'umukara, bari kumwe n'abandi bantu bakuru higanjemo abazungu babiri n'abandi birabura batatu.

Umugore w'umwirabura ubogoshye imisatsi yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, afite ajenda mu ntoki na mikorofone, ahagaze imbere y'abaturage bicaye mu matente ahantu hateguye neza, ari imbere yabo ari kubaha ibiganiro bamuteze amatwi.

Abana bato: abahungu n'abakobwa bambaye imyenda y'ishuri isa, bari iruhande rw'ikigega kirimo amazi, bafite ibikombe mu ntoki, bari kunywa amazi bavomye kuri icyo kigega.

Umwana w'umuhungu muto, w'umwirabura ari guseka arishimye cyane, ari ku mugezi wa robine utangwa na leta mu baturage kugira ngo bavome amazi meza, ari kuvoma amazi, akayategesha intoki, yishimye cyane.

Umukobwa w'umwirabura ari kumwe n'umwana ukiri muto, bafite ijerekani bari gutega amazi ku mugezi utemba bakoresheje ikigogo cy'insina, ayo mazi bayakoresha mu bintu bitandukanye harimo guteka ndetse no gukaraba.

Umujyanama w'ubuzima w'igitsina gore, yicaye ku ntebe, yambaye imyenda y'akazi, ari kumwe n'umugore utwite ndetse n'umugabo we, ari kubaha inyigisho k'uko bakwita ku buzima bw'umwana ukiri mu nda ndetse n'uko bakwiyitaho kugira ngo umwana azavuke ameze neza.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda y'akazi, amataburiya asa n'amabaji bahagaze mu nzira iri hagati y'ibiti, bari kumwe n'umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru, na karuvati n'undi wambaye itaburiya isa umweru.

Umugore w'umwirabura uherereye mu bice byo mu cyaro, yikoreye igitebo kirimo imigozi yeraho ibijumba, afite n'isuka mu ntoki, avuye gushakira abana ibijumba byo kurya cyangwa ibyo kujyana ku isoko.

Abana benshi b'abirabura baherereye mu bice byo mu cyaro, bicaye ahantu hamwe bamwe bambaye inifomo abandi ntayo bambaye, barishimye, bari guseka, baranezerewe cyane.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi bari gusuzuma umwana ukiri mutoya indwara z'amenyo bifashishije ibikoresho byabugenewe, uwo mwana arishimye ari guseka kuko bari kumuha serivisi akeneye.

Abantu biganjemo urubyiruko abakobwa n'abasore bicaye ahantu muri sare ku ntebe, imbere yabo hari ameza arambitseho korogate bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi, umwe muri bo ari kubereka uko bakoresha korogate boza amenyo.

Abana bakiri bato, abahungu n'abakobwa b'abanyeshuri, bambaye unifomu, barishimye buri wese afite agakombe ke na korogate n'uburoso, bari koza amenyo yabo kugira ngo bayarinde kurwara.

Icyumba gitangirwamo serivise zo kuvura abarwayi, kirimo umuganga wambaye imyenda y'akazi, hiyongereyeho ga mu ntoki n'agapfukamunwa, ari kumwe n'umwana, ari kumuvura amenyo.

Umwana ukiri mutoya w'umwirabura ari guseka, afite uburoso bukoreshwa koza amenyo, ari kwerekana uburyo ki warinda amenyo yawe kwandura, ukayasukura igihe cyose umaze kurya cyangwa ugiye kurya.

Umugabo w'umwirabura munini ubyibushye, yicaye mu kagare kagenewe kugendwamo n'abafite ubumuga cyangwa abafite intege nke babarwayi, ari kumwe n'umuganga ari kugenda amusunika muri ako kagare.

Umugabo w'umwirabura wambaye neza, amarinete, agapfukamunwa n'imyenda myiza, ari kumwe n'umusaza w'umuzungu ushaje cyane udashobora kugenda, ari kumufasha kumanuka ahantu hagoye.

Imfashanyigisho yatanzwe ku bufatanye na RHIA igaragaza ibimenyetso by'umuntu urwaye diyabete harimo kumva ananiwe cyane, gushaka kwihagarika bitari bisanzwe ndetse no gutakaza ibiro.

Abanyeshuri benshi bambaye imyambaro y'ishuri isa, bari kumwe n'abayobozi babo bari mu muhanda bamwe bafashe icyapa cyanditseho amagambo akangurarira urubyiruko rw'u Rwanda kwirinda virusi itera sida, ndetse no kwipimisha kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Inzu ivurirwamo ababyeyi, ifite izina rizwi nka materinete, itangirwamo serivise zitandukanye zitangwa kuba mama cyangwa se ku babyeyi b'abagore harimo kubyara ndetse n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zitandukanye zo kuvura abarwayi, imbere yayo hari ikigega gifata amazi y'imvura, gifite ibara risa umukara na jaride iteyemo ibyatsi by'icyatsi n'igiti cy'umwembe.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi, harimo ibikoresho bakoresha n'abaganga batatu bambaye imyenda y'akazi, amataburiya adupfukamunwa na ga ku maboko n'igitanda kiriho umuntu bari guha serivisi.

Inyubako itangirwamo serivisi zo ku buvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye, ku ruhande rwayo hari jaride iteyemo indabo n'ibyatsi, imbere yayo hari imodoka iparitse n'abantu bahagaze harimo abagore n'abagabo.

Inzu ifite umuryango utangirwamo serivisi zo gucuruzwa imiti izwi ku izina nka forumasi, ibamo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye, hanze y'uwo muryango hamanitseho ibyapa byamamaza.

Inyubako y'ibitaro igaragara mo imbere, ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru n'amakaro asa umweru, irimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa n'abaganga mu gutanga serivise, harimo za mudasobwa n'ibindi.

Abakobwa batandatu bakora muri serivisi (service) zo kurengera ubuzima bw'abantu harimo kuvura abarwayi, bambaye uniform (impuzankano) y'amashati y'ubururu n'amapantaro y'ubururu n'udupfukamunwa bose bari imbere y'ahantu handitse legacy clinic.

Ibitaro byubatse bitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi, aho abaturage bajya kwivuriza indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, imbere yabyo haparitse imodoka, hari n'abantu benshi, harimo n'abashinzwe umutekano.

Icyumba gisa neza, gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gifite ibikuta biteye amarange y'umweru na parafo, harimo ibitanda bikoreshwa n'abarwayi ndetse n'abaganga mu gutanga serivise n'abarwayi mu kuzihabwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivise zitandukanye ku barwayi babagana, harimo n'umuganga wambaye imyenda y'akazi itaburiya n'agapfukamunwa.

Inyubako y'ibitaro, itangirwamo serivise zitandukanye zo kuvura abarwayi, n'indwara nyinshi zitandukanye, inyuma yayo.

Abantu benshi abagore n'abagabo abakobwa n'abasore, bicaye mu nyubako kwa muganga aho bakirira abarwayi bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye agapfukamunwa gatandukanye n'akabo.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi cyane cyane bakibanda mu kuvura amaso atandukanye, harimo ibikoresho byinshi bakoresha, intebe, imiti ndetse n'ibindi.

Icyumba kirimo umukozi wa RBC ari kumwe n'undi mugabo ari guha serivisi, bari mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, ku gikuta hariho icyapa cyanditseho "irembo".

Inyubako nini ya etaje igeretse itangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi, yubatse neza ariko ntabwo irarangira, imbere yayo hari abantu benshi bari kugenda, harimo n'abakozi baje gukomeza kubaka.

Ibitaro byiza binini bya etaje bitangirwamo serivise zo kuvura abarwayi, ni iby'Akarere ka Nyarugenge, hanze yabyo hari jaride nziza iteyemo ibyatsi bisa icyatsi n'amapave ateyemo ibiti.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zo kubaga abantu: abarwaye imitima n'izindi ndwara zitandukanye zikenera ko bababaga; kugira ngo bakire neza bongere bagire ubuzima bwiza.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abaganga n'umugabo w'umwirabura urembye cyane, uryamye ku gitanda bamuteye serumu ku kaboko yambaye na masike ku munwa.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza, hasi hari amakaro afite ibara ry'umweru no hejuru hari purafo nziza cyane, kijyanwamo abarwayi barembye cyane bakiza bajyena kwa muganga.

Ibitaro binini byiza byubatse neza bigeretse, imbere yabyo hari parikingi iparitsemo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari jaride iteyemo ibyatsi byiza bisa icyatsi, harimo n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umukobwa w'umwirabura yambaye ipantaro n'isengeri, afite agakoma ku maboko, ari guseka, yicaye kuri tapi yagenewe gukorerwaho siporo, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kunama agafata ku maguru ye.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyenda y'akazi itabuye ifite ibara ry'umweru, afite n'ibindi bikoresho yifashisha mu gutanga serivisi ari kumwe n'umukiriya ari kumukorera massage ku gice cy'akaguru cyo ku mavi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ikirangantego cya croix rouge Rwanda, ishinzwe ubutabazi bw'ibanze, harimo gutanga amaraso kujyana abarwayi kwa muganga barembye cyane no gufashanya mu bindi bikorwa bitandukanye.

Umugabo w'umwirabura ari mu nzu mu imbere yapfukamye kuri tapi ishashe hasi, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaguru ndetse n'amaboko ndetse n'umugongo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa na muganga mu kazi ka buri munsi harimo agapfukamunwa, umuti wica udukoko, ga zo kwambara ku maboko, inshinge, utwuma dupima umuriro n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umuganga ari mu cyumba atangiramo serivise, kirimo ibikoresho bitandukanye, yambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa, ari kuvura umwana ukiri muto uri kumwe n'umubyeyi we w'umumama, ari kumureba mu gahanga.

Icyumba gikorerwamo siporo zitandukanye zo kugororamubiri, harimo umuntu wambaye inkweto zifunze, amasogisi y'umukara n'ikabutura n'umupira, ari muri siporo ari kugorora ingingo ze.

Akagare gafite intebe namapine yo kugenda kagenewe kwicarwaho n'umuntu ufite ubumuga bw'amaguru cyangwa se ubw'izindi ngingo, gakoreshwa kwa muganga cyane cyane n'abarwayi kugira babashe kugera aho bashaka kujya.

Umukobwa w'umwirabura yambaye imyenda ya siporo, yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kuko siporo ari ingenzi mu buzima bwacu.

Umuti gakondo w'ibimera wakoreshwaga n'abanyarwanda ba kera uzwi ku izina ry'umuravumba ufite amababi asa icyatsi, ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo ibicurane, inkorora n'izindi ndwara zitandukanye.

Ibimera bifite ibara ry'icyatsi biteyr mu mavase afite ibara ry'umutuku, bikoreshwa cyane cyane bari gutunganya imiti ikomoka kuri byo cyangwa amavuta.

Umuti ukoze mu bimera gakondo usukura umubiri w'umuntu, urengera ibidukikije kuwukoresha ntacyo byangiza, uri mu gacupa gafite ibara ry'ubururu gapfundikiye neza hari nimero wahamagaraho ushaka ko bawukugezaho.

Imurikagurishwa ririmo umugore w'umwirabura wambaye ibaji, ari gucuruza imiti itandukanye iri mu macupa ipfundikiye neza yakozwe mu biti, imbere ye hari umugabo uhahagaze wambaye ishati n'ipantaro n'umukandara.

Imiti gakondo izwi ku izina nk'umuravumba ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo inkorora n'ibicurane irateye iri mu butaka ifite amababi afite ibara risa icyatsi.

Ikimera giteye mu mavase; ifite ibibabi bifite ibara ry'icyatsi, gikoreshwa mu gukora imiti itandukanye ndetse no gukora ibindi bikoresho byose byavamo umuti.

Umuturage w'umwirabura w'igitsina gore, ari gusoroma ibibabi by'icyatsi, gikoreshwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye ku bantu, benshi cyakoreshwaga cyane cyane mu minsi ya kera.

Imiti gakondo ikozwe mu bimera, iri gutunganywa hifashishijwe isekuru barikuwusekura kugira ngo uwukoresha abone uko awufata neza umurinde, cyangwa umuvure indwara nyinshi zitandukanye.

Ibimera byinshi bitandukanye biteye mu mavaze bikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye izatakaka abantu hari n'ibikoreshwa mu kwirukana udusimba twataka imyaka.